Ipikipiki iriho umugabo itwaye umuzigo uri mu ibara ry'icyatsi, n'icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi n'umweru, ibyatsi n'ibyuma mumuhanda.